Ubwishingizi bw ingwate gura ubwishingizi bw'ingwate ku bapiganira amasoko atandukanye ubu ubwishingizi bugezwaho na radiyati ni ikigo gitanga ubwishingizi mu bintu bitandukanye birimo bw'ingwate.

Hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango, icyizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango. Ibi ni ubutumwa bwa radiyanti aho ushobora kwivuza ku bwishingizi buhabwa na radiyanti.

Turi kumwe gu ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'ubw'ubwryango kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego Radiyanti yacu hamagara cumi n'umunani icumi.

Radiyanti yacu; shinganisha ibihingwa byawe uhinge utekanye. hamagara telefoni ijana na mirongo inani na rimwe zeru , uwo ni umurongo utishyurwa cyangwa uhamagare zeru karindwi umunani umunani gatatu rimwe gatandatu karindwi icyenda karindwi

Icyapa gishinze hanze cyamamaza umukino wa video. Barakubwira ko udafite gukina uwo mukino igihe utwaye. Irinde ibirangaza byose.

Sonarwa ikigo gitanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki. Hari nimero wahamagara uramutse ushatse gukorana n'iki kigo ariyo icyenda, zeru eshatu.

Uburyo koranabuhanga bukoreshwa muri telefoni ngendanwa mu kwishyura ndetse no kohereza amafaranga, bari kukubwira ko igikorwa cyo kohereza amafaranga cyagenze neza, wohereje amafaranga magana atanu ajya kuri nimero ziri munsi.

Ikaze ku rubuga rwa Zigama CSS, uru ni urubuga rwo kubika amafaranga hakoreshejwe murandasi, injizamo umubare wawe wihariye, ukurikizeho umubare banga, ubundi winjire. Niba udafite umubare wawe ukuranga, hamagara gatanu zeru zeru gatanu.

Ikoranabuhanga ryagenewe kwishyura, kohereza, kwakira amafaranga, riri kwerekana amateka y'ukuntu amafaranga yoherejwe ndetse akanakirwa, ndetse n'amatariki yakiriweho.

Iguriro rigezweho ririmo ibicuruzwa bitandukanye n'umwanya wo kwishyuriraho ibicuruzwa, ufite igikoresho k'ikoranabuhanga kimeze nka mudasobwa, hahagaze abantu babiri umugabo ndetse n'umugore bari kwishyura ibicuruzwa.

Isoko rigurishirizwamo ibicuruzwa bitandukanye, rikoresha ikoranabuhanga ryo kwishyura, hari umugabo ndetse n'umugore bahagaze aho bishyurira, hari icyuma nkoranabuhanga cyifashishwa mu kwishyura ibicuruzwa.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyambaro y'abagabo n'abagore, harimo imyenda yambawe na za maneke, zigaragarira mu kirahure cy'urugi kibonerana.

Inzu irimo akabati karimo imitako. Hejuru hari amatara ari kwaka, iyi nzu icururizwamo ibirimo imyenda ndetse n'imitako. Ifite inkuta zisize amarangi y'mweru.

Inyubako ikorerwamo uruganda rwa yundayi, iparitsemo imodoka zo gutembera zifite ikirango cya yundayi ,inyuma yazo hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Umugabo umwe w'umwirabura ndetse n'abandi bagabo babiri b'abazungu bahagaze hanze mu mbuga ishashemo amabuye, inyuma yabo hari inyubako iriho ikirango cya nisani bisobanura ko ariho ibikorwa by'uru ruganda bikorera ndetse hari n'imodoka ibaparitse inyuma.

Imodoka isa n'umukara iparitse mu gace gashushanyije hifashishijwe imirongo y'umuhondo. Iyi modoka yometseho akapa kagaragaza ko icuruzwa n'isoko rya Kigali ricuruza amamodoka. Iyi modoka yakozwe n'uruganda rwa Toyota.

Abagabo babiri bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze mu mbuga hanze ishashemo amatafari, inyuma yabo haparitse imodoka ebyiri z'ibikamyo zitwara imizigo.

Inzu iriho ikirango cya yundayi ndetse n'icyapa kigaragaza ko iyo nyubako hakoreramo ibikorwa by'uruganda rw'amamodoka bya yundayi iri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo iri kugendwamo n'ipikipiki ihetse umugenzi.

Abagabo babiri bahagaze mu mbuga ishashemo amabuye bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari imodoka y'ikamyo ifite igice kimeze nk'idomoro gitwarwamo lisansi cyangwa mazutu.

Inyubako iriho ibirango bigaragaza ko ikorerwamo na yundayi, mu imbere hari imodoka ziparitsemo. Iyi nyubako ifite ibirahure bibonerana bituma umuntu uri inyuma abona imodoka zirimo imbere.

Imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi kereta, yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda isa n'umukara, n'imodoka ibereye gutemberamo, ifite ikirango cya yundayi imbere ikaba igurishwa miriyoni cumi n'eshanu.

Imodoka ya Merisendesi benzi E magana atatu yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri iragurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu iyi modoka isa n'umuringa ikaba iparitse mu mbuga ishashemo amabuye.

Imodoka ifite intebe zikozwe n'imifariso isa na kake, ifunguye inzugi zombi, hanze hirya yaho mu mbuga iparitsemo haparitse indi modoka isa n'ifeza.

Hanze mu mbuga ishashemo amabuye haparitse imodoka isa n'umweru ifite umwanya w'inyuma wo guhekamo ibintu imbere yayo hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Abagabo batatu bahagaze mu mbuga ishashemo amabuye, imbere yabo hari ubusitani burimo indabo zisa n'umuhondo, iruhande rwabo haparitse imodoka ya fuso isa n'umweru.

Imodoka isa n'umukara yakozwe n'uruganda rwa Toyota, ikaba ari imodoka ifite imyanya ine yo kwicaramo, yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nabiri, ifite moderi ca, akarongo gatambitse ha ra, ikoreshwa amashanyarazi, ndetse na lisansi ikaba igurishwa miliyoni mirongo itatu n'esheshatu.

Inzu irimo ibiro bikorerwamo n'abakozi ba banki, bifite nimero rimwe ndetse na kabiri biranga ibyo biro, imbere yabo hari abantu baje gushaka serivisi muri banki.

Umuntu wicaye mu biro birimo ibikoresho nk'ameza ndetse n'imashini zo mu biro, harimo icyuma cya mubazi, gifite amabuto cyifashishwa mu kubara amafaranga y'inoki. Ku meza hari amafaranga ari mu bwoko bw'inoti ndetse n'ibiceri.

Imodoka y'umuhondo iri mu bwoko bwa bisi nto yanditseho intaseke, ni imodoka igendamo abakozi bakora imirimo yo gucunga umutekano.

Umukozi uri mu biro arahagaze afite amafaranga y'inoti mu ntoki ze zifunze neza iruhande rwe ku meza ari mu biro hari icyuma cya mubazi kibara amafaranga y'inoti.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti yemewe na Banki nasiyonale y'u Rwanda ifite agaciro k'ijana ashushanyijeho umugore uhetse umwana ni Nyiraneza uhetse Rubaduka hashushanyijeho kandi n'ikirunga kiri kuruka.

Umugabo uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, zirimo inoti z'amadolari zifunze mu mishandiko ziri mu byiciro, ari gukoresha icyuma cya mubazi cyifashishwa mu kubara inoti.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'ibihumbi bibiri. Ashushanyijemo umugezi ukikijwe n'ibyatsi, aya mafaranga yemewe na banki nkuru y'u Rwanda. Ariho umukono wa guverineri kandi ariho na nimero iranga amafaranga yihariye.

Umugabo uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti za bitanu, imbere ye hari n'andi mafaranga ateretse ku meza, hari n'agakoresho gakoreshwa mu gutegeka mudasobwa.

Amafaranga yo mu bwoko bw'ibiceri ashushanyijeho icyayi, yemewe na Banki nasionari y'u Rwanda afite agaciro ka mirongo itanu, aya mafaranga yarasimbujwe haje ibiceri bishya.

Inzu icururizwamo resitora hari ameza y'umukara ateretseho ikirahuri kinini kirimo amata y'ikivuguto, impande yaho hari isahani iriho ibiryo.

Inzu ishashemo amakaro, irimo icyuma gikonjesha amata, harimo n'ijerekani isa n'umweru iriho umubirikira bavomesha amata ava mu cyuma ajya mu jerekani.

Amagi apanze mu dukoresho tuyarinda kwangirika, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye igisarubeti gifite amaboko magufi, gisa n'icunga rihishije.

Mu nzu irimo agatanda gateretsemo amasarori abonerana, harimo amandazi na keke, ndetse n'isahani, ndetse na teremusi ishyirwamo ibyo kunywa bishyushye. Impande yaho hari icyuma gikonjesha ibinyobwa.

Ku meza hateretse amagi ari mu dukoresho tuyarinda kumeneka ndetse no gutagarana, aya magi aterwa n'inkoko akaba afite umumaro wo gutanga intungamubiri zirimo ibyubaka umubiri.

Abagabo babiri bahagaze ndetse n'umukobwa umwe, bari kwamamaza amata yo mu dukombe, aya ni amata y'inka aba yanyujijwe mu nganda agatunganywa neza ndetse agapfunyikwa kugirango azamare igihe.

Umwana muto wambaye igisarubeti usa n'inzobe uhagaze mu nzu irimo ibicuba by'amata bikoze mu cyuma inyuma ye hagaze abagabo babiri.

Urugi rusa n'ubururu rufite ibirahuri byometseho ibyapa biriho ibirango by'inka y'amabara y'umweru ndetse n'umukara hakaba handitseho n'amagambo yuko ayo mata ari ay'uruganda rwa nyanza.

Inzu ifite inzugi ebyiri zifunguye, ziriho ibirango ndetse n'utujerekani dushyirwamo amata, hari n'ahandi hantu hashushanyije inka. Mo imbere mu nzu hateretsemo ameza, ndetse harimo n'utubati dushyirwamo ibicuruzwa.

Inzu ishashemo amakaro irimo icyuma cyagenewe gukonjeshwa amata, cyubatse ku byuma bifashe hasi ku makaro, hejuru y'iki cyuma hariho amajage abonerana.

Inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, birimo: amata, amazi ndetse n'imitobe, ibyo kurya bya capati, amandazi ndetse n'amakeke, harimo icyuma gikonjesha amata cyubatse ku byuma bishinze ku makaro.

Umugore uri mu nzu ufashe ku rupapuro rwometse ku gikuta rwanditseho ibintu, mu nzu harimo icyuma cyubakiye hasi ku isima gikonjesha amata, harimo n'ibindi bicuruzwa bipanze mu tubati dufashe ku rukuta.

Urubuga nkoranabuhanga rwa emutiyene, rufunguriye muri telefoni igezweho ngendanwa, rufite serivisi zirimo kohereza amafaranga ndetse no kwishyura fagitire.

I kashi ni uburyo bugezweho bwo kohererezanya amafaranga ku mirongo itandukanye. Ni ukuvuga koherereza amafaranga umuntu ukoresha ikigo cy'itumanaho gitandukanye n'icyo uwohereza akoresha cyangwa se akaba yohereza no ku mabanki.

Telefoni igezweho umuntu akoresha akoresheje urutoki nta mabuto igira. Iyi telefone ifasha uyikoresha no kujya kuri murandasi, gusa abafite kugura ifatabuguzi aho akanda akanyeri gatatu kane gatanu, agashyiraho urwego akoresheje emutiyene ubundi akabasha kugura murandasi.

Umuntu uri gukoresha telefoni ngendanwa idakoresha amabuto ahubwo uyikoresha akozamo urutoki mu kubwira telefone ibyo ikora, iyi telefoni ikoresha murandasi ikaba ishobora kujya no ku mbuga nkoranyambaga.

Urupapuro ruriho ikirango cya Rwanda reveni otoriti ndetse n'icya repubulika y'u Rwanda rwemeza ubwishyu bw'imisoro yatanzwe na taragita afurica ekipumeti Rwanda limitedi.

Urupapuro rusa n'umweru ruriho ibirango bya repuburika y'u Rwanda, ndetse n'ibya Rwanda reveni otoriti. Rwanda reveni otoriti n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Urupapuro ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'icya Rwanda reveni otoriti, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rwemeza ko ndetse runashimira ko ngari hayidoro pawa rimitedi yamenyekanishije imisoro.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, ikirango cya Rwanda reveni otoriti, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rwemeza kandi rugashimira ko ikigo cy'ubwishingizi cya purayimu cyishyuye imisoro.

Urupapuro ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya Rwanda reveni otoriti, rugaragaza imisoro yishyuwe ndetse n'amande azishyurwa na kompanyi ya sati purinteri, ifite nimero y'umusoro yihariye y'icumi, mirongo ine na kabiri, zeru gatanu karindwi kabiri zeru.

Urupapuro ruriho ibirango bya Rwanda reveni otoriti ndetse n'ikirango cya repuburika y'u Rwanda, rwemeza ko ikigo cya tarakita afurika ekwipumeti Rwanda rimitidi ,cyamenyekanishije imisoro igomba kwishyurwa.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ifite agaciro k'igihumbi, aya mafaranga ashushanyijeho umugabo ariho kandi n'imibare iranga inoti yihariye.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ifite agaciro ka makumyabiri hashushanyijeho umugabo ndetse hari na nimero yihariye iranga amafaranga yanditseho.

Uko ibiciro by'ivunjisha ry'amafaranga y'amadolari byifashe. Idolari rimwe rigana n'amayero zeru n'ibice magana cyenda na cumi n'icyenda, rigana kandi n'amapawundi zeru n'ibice magana arindwi na mirongo irindwi na rimwe. Rigana n'amasuwede icyenda n'ibice magana atandatu mirongo itatu n'icyenda.

Abantu bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti. Aya mafaranga ni amadolari afite agaciro k'ijana. Amafaranga akoreshwa mu guhaha no kwishyura ingendo, kwishyura ishuri, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye amafaranga akora. Abikwa mu mabanki kandi arakorerwa.

Amafaranga ari kubarwa mu ntoki z'umugabo, ni amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, zifite agaciro k'ijana zishushanyijeho umugabo, zifite n'imibare yihariye iziranga.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, zifite agaciro ka bibiri, ni inoti nyinshi ari kuzibarisha intoki, imbere ye hari telefoni y'amatushi.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ,ashushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi wogoshe umusatsi. Aya mafaranga yemewe na banki y'Ubuhinde. Amafaranga akoreshwa mu bintu birimo guhaha, kwishyura ndetse no kugura.

Umuntu wicaye mu biro birimo ameza ateretseho amafaranga y'inoti menshi asambaguje, ni inoti z'amadolari zifite agaciro kangana n'ijana, umugabo ari kuyabara, iruhande rwe hari na mubazi ifite amabuto yifashishwa mu kubara imibare.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'icumi. Afite imibare yihariye iranga inoti aya mafaranga ni amafaranga yo mu gihugu cy'ubuhinde..

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, zirimo amafaranga y'amadolari afite agaciro k'ijana, amafaranga y'amayero afite agaciro ka mirongo itanu, ni inote nyinshi, zirambitse ku meza hejuru.

Ibiganza biri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ashushanyijeho umugabo, aya mafaranga akoreshwa mu bintu birimo guhaha ndetse, no kwishyura serivisi zitandukanye, amafaranga abikwa mu mabanki.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amayero afite agaciro k'icumi. Aya mafaranga ni amafaranga akoreshwa cyane cyane mu bihugu by'i Burayi, gusa no mu Rwanda ashobora gukoreshwa ariko abanza kuvunjwamo amanyarwanda, mu bigo bishinzwe ivunjisha.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadorari afite agaciro k'ijana, afunze mu mishandiko akaba agerekeranyije, aya mafaranga ashobora kugura ibintu byinshi bitandukanye, muri rusange amafaranga arakorerwa, abikwa mu mabanki kandi yishyura n'ibintu byinshi.

Umuntu uri kubabora amafaranga yo mu bwoko bw'inoti zifite agaciro ka magana abiri ndetse n'ijana, imbere ye hari mubazi ifite amabuto yifashishwa mu kubara imibare.

Abantu bari guhererekanya amafaranga, aho hari umugore uri gukura amafaranga mu gakapu gato gatwarwamo amafaranga ko mu ntoki, undi mugabo akaba ari kumuhereza amafaranga afite agaciro ka makumyabiri, ni amafaranga y'amadorari.

Umugabo wicaye, ari kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, zimwe zifunze mu mishandiko, ziteretse ku ntebe yicayeho, izindi ari kuzibara mu ntoki. Ni amafaranga afite agaciro k'amadorari ijana.

Inzu ifite inzugi ebyiri zisa n'icyatsi, hakaba hari n'impapuro n'ibyapa byometseho byerekana ibikorwa bikorerwamo. hejuru handitseho ko aho hantu hatangirwa serivise zo kohererezanya amafaranga. Ishami rya Remera mw’imbere harimo ibiro bikorerwamo n’ abantu batanga izo serivisi

Ibiro bikorerwamo n'abakozi bashinzwe ivunjisha ndetse n'igurana ry'amafaranga, harimo mudasobwa, hari ameza ndetse n'intebe mu biro bikorerwamo n'abakozi bavunjisha amafaranga, kuvunjisha ni uguhindura amafaranga y'abanyarwanda mu y'abanyamahanga cyangwa b'abanyamahanga mu manyarwanda.

Akabati, ameza ndetse n'intebe byose bibaje mu biti. Biteretse hanze, iruhande rwaho hari inzu yubatse. Utubati, ameza ndetse n'intebe, bishyirwa mu nzu mo imbere bikicarwaho ndetse bikanakoreshwa mu gukora icyumba bariramo. Ni ukuvuga aho batereka amasahani, amasorori, bari gufungura.

Inzu ishashemo amakaro hasi hateyemo n'intebe zizengurutse ameza byose bibaje mu giti. Hejuru kumeza hariho amavazi harimo indabo.

Inzu ishashemo amakaro irimo intebe z'imisego zegamirwa zikikije ameza ndetse iruhande rwaho ari n'ahantu hari akabati, aha niho abantu bicara bari kuganira.

Icyumba cyo kuraramo kirimo matela ndetse n'imisego, gishashe n'amashuka ndetse n'ibyo kuryamamo bisa n'umweru, impande yacyo hari akabati gato gasa n'umukara kabikwamo ibikoresho by'umuntu uraye mu cyumba.

Akabati kabaje mu buryo bw'ubukorikori gafite umwanya uteretswemo ibintu bitandukanye na byo by'ubukorikori, harimo n'amavazi arimo indabo.

Mu nzu hari uruganiriro rurimo intebe zibaje mu biti zishashemo imisego kandi zegamirwa, aha niho abantu bicara bari kuganira ndetse inyuma yaho hari n'ahantu bicara bari kurya ahari ameza y'umukara ndetse n'intebe z'umukara bicaraho.

Ahantu bacuruza ibicuruzwa birimo utubati tubaje mu mbaho, intebe zo kwicaraho zifite imisego zegamirwa, ndetse n'amagodora byose biri hanze ku zuba.

Akabati gakoze mu buryo bw'ubugeni bushushanya ikibatsi cy'umuriro, gafite imyanya itandukanye iteretsemo amavaze arimo indabyo, aka kabati gateretse mu nzu.

Icyumba gifite ibitambaro by'umweru, bishyirwa ku madirishya, bigatangira urumuri, kikaba kirimo n'igitanda gishasheho matera itwikirijwe n'ishashi. Hari n'intebe yo kwicaraho.

Ahantu hari pisine irimo amazi, aho abantu bajya koga ibyo kwishimisha cyangwa bakora siporo, hakikijwe n'ahantu hari udutebe dutwikirijwe n'imitaka, aho abicaye bashobora kuba birebera amazi.

Ipoto ry'icyuma rishinze iruhande rw'umuhanda ririho igikoresho cyifashisha urumuri ndetse n'ibimenyetso, mu kuyobora abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga mu muhanda.

Inyubako ya Kigali convesheni centa, ikoreramo hoteli zakira amanama ndetse n'ibindi birori, isakaje igisenge cyaka amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inzu yubakishije ibirahure, hanze hari intebe ziteye ku rubaraza ndetse hari n'ameza, aho abantu bashobora kwicara baganirira, bumva akayaga ko hanze ndetse bareba n'ibidukikije.

Ubusitani burimo ibyatsi burimo intebe zitwikirijwe numutaka w'icyatsi aho abantu bicara bari kuganira ndetse birebera n'ubwiza bw'ubusitani.

Icyumba cy'inama kirimo intebe zo kwicaraho z'umukara zegamirwa, harimo n'ameza y'umukara ateretseho amazi yo kunywa ari mu gacupa kabonerana ndetse n'udukayi duto two kwandikwamo.

Inzu y'amagorofa yubakishije amatafari ahiye ifite inzugi ndetse n'amadirishya biriho ibirahure bibonerana mu busitani bwayo hari ihema ry'umweru munsi harimo udutebe ndetse n'ameza.

Inzu ifite akabati karimo ibicuruzwa by'ibinyobwa, inzoga zisembuye ziri mu macupa y'ibirahuri bibonerana ndetse n'ibitabonerana, aha ni aho bajya mu kabari kujya gufata ibyo kunywa.

Umugore ndetse n'umugabo baje mu nyubako irimo ibiro bitangirwamo serivisi z'ama banki. ,Ibi biro biri kwakamo amatara y'umweru, harimo za mudasobwa, biriho ibirahuri ndetse na nimero igaragaza icyumba cy'ibiro.

Inzu ifitemo ibiro birimo umukozi wicaye imbere ya mudasobwa, harimo intebe, ameza ndetse iruhande rwe hari n'ahantu hari intebe zicarwaho n'abantu baje gushaka serivisi, no mu iri iyi nzu. Hejuru hari amatara y'umweru ari kwaka. Hari n'igiti giteye cyongera ubwiza.

Inzu ifite icyumba kirimo intebe, ameza, ndetse na mudasobwa. Ibi ni ibiro bikorerwamo n'abakozi b'ikigo cya Alliance. Harimo abantu batatu b'abakozi bacyo.

Inyubako yubatse ku buryo bw'amagorofa, yubakishije ibirahuri bitabonerana, ni ndende iriho icyapa kigaragaza ko aho hantu hakorerwa na buritamu. Buritamu ni kigo cy'ubwishingizi.

Inzu irimo ibiro birimo ameza ndetse n'intebe, harimo na mudasobwa zikoreshwa n'abakozi bo muri ibi biro, imbere yabo hari intebe zicarwamo n'abantu baje gushaka serivisi muri ibi biro.

Inzu ishashemo amakaro, mo imbere amatara y'umweru ari kwaka hejuru, haciyemo ibiro byinshi bitandukanye. Hari ibiro bya purayimu bifite amadirishya ariho ibirango byanditseho ngo purayimu. Purayimu ni ikigo cy'ubwishingizi.

Mu nzu hicayemo abagabo n'abagore harimo intebe z'umukara zegamirwa zisa n'umukara hari n'ameza ateretseho amazi yo kunywa ari mu macupa abonerana inyuma yabo hari ibyapa.

Inzu y'amagorofa imbere yayo hari imbaga y'abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore. Iyi nzu ifite umuryango uriho icyapa cyanditseho raki, aha niho uruganda rucuruza umuceri wa raki rukoresha.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bitabiriye ibikorwa byo kumenyekanisha ubucuruzi bwa eyateri, ikigo gitanga serivisi z'itumanaho zo guhamagara, kwakira, kohererezanya amafaranga ndetse na za murandasi aho yakoranije abantu ibabwira ku bicuruzwa byayo.

Isoko ricururizwamo ibirimo imbuto z'imineke, amapapayi, amacunga ahishije ndetse n'amananasi, harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi muri iri soko.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya by'imbuto birimo inanasi, icunga, amapapayi ndetse n'imineke, hicayemo umugore wifubitse igitenge ni umucuruzi.

Inzu icururizwamo imyambaro ishashemo amakaro y'umweru, hanze ku rubaraza rwayo hari maneke yambaye ikanzu y'umukara ndende, hari n'intebe isa n'ubururu bweruye iri impande y'umuryango w'iyi nzu.

Isoko ricururizwamo imitako, hari ubukorikori bw'uduseke ndetse n'indi mitako ipanze mu kabati, iruhande rwaho hari ibikapu bimanitse na byo bicuruzwa.

Mu isoko riremera hanze hari abacuruzi ndetse n'abaguzi, hari ibicuruzwa birimo inyanya, insenda ndetse n'intoryi, hari abaguzi b'abagore bafite udukapu ndetse n'imifuka yo guhahiramo.

Isoko ricururizwamo ibirimo imboga hahagazemo umugore uteze igitambaro mu mutwe ahetse umwana, ibicuruzwa biri mu isoko harimo amashu, inyanya ndetse n'amakaroti.

Isoko ryubatse ritwikirijwe amabati ndetse harimo n'ibyuma bisize amarange y'umutuku harimo udutanda ndetse n'amezaza ducururizwaho n'abacuruzi mui iri soko harimo ibicuruzwa birimo ibitunguru inyanya ndetse n'intoryi.

Isoko ahacururizwa ibicuruzwa birimo ibirayi bipakiye mu mufuka, hanze hicaye abagore ahari ibyo bicuruzwa bari kubicuruza. hari umugabo uri kugura ibirayi bari kubimushyirira mu gafuka.

Isoko ririmo abacuruzi ndetse n'abaguzi harimo n'ibicuruzwa birimo imineke ihiye inanasi ndetse n'imyembe, inanasi ni ibyo kurya by'imbuto biba bifite amazi ndetse birimo n'isukari.

Isoko ricururizwamo ibyokurya birimo, inyanya, amashu, imiteja ndetse n'ibindi harimo n'amavuta yo guteka hahagazemo abantu. Iri soko ryubatse ritwikirijwe amabati ndetse ryubakishije ibyuma.

Icyapa gisa n'umuhondo kiriho imibare ya nimero y'umucuruzi ukanda igihe uri kwishyura umucuruzi wifashishije ikoranabuhanga ryo kwishyura rya telefoni ngendanwa, kiriho ibirango bya emutiyeni.

Inzu irimo ibyapa biranga ko aho hantu hakorerwa na MTN ikigo gitanga serivisi z'itumanaho, ry'amatelefoni ngendanwa, zirimo kohereza ndetse no kwakira amafaranga, tutibagiwe na serivisi zo guhamagara.

Akazu gafunze gasa n'umuhondo, kariho ibirango bya MTN, gashushanyijeho kandi n'amatelefoni, aka kazu gakorerwamo n'umuntu uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi ndetse na serivisi z'itumanaho zitangwa na MTN.

Akazu gasa n'umuhondo gafite amadirishya n'inzugi bifunze, kariho ibyapa ndetse n'ibirango bya Emutiyene gakorerwamo n'umukozi ushinzwe gutanga serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene.

Inzu irimo ibiro, birimo ameza ateretseho za mudasobwa. Harimo abakozi bambaye imipira y'amaboko magufi, isa n'umweru, ifite ikora ry'umuhondo, yanditseho MTN. Imbere yabo hari abantu baje gushaka serivisi.

Akazu kubabatse hanze gasa n'umuhondo gafite amadirishya yose afunguye, karimo umuntu ushinzwe gutanga serivisi ndetse no guhagararira ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni mu gace runaka aka kazu kariho ibirango bya emutiyeni.

Hanze hari akazu kubatse gasa n'umuhondo gafite ibirango bya emutiyeni, hahagaze umugore mo mbere harimo umukozi ushinzwe ibikorwa by'ubucuruzi by'itumanaho rya emutiyeni.

Umugabo wicaye afite telefoni ngendanwa ikoresha murandasi, ikaba idafite n'amabuto ari kuyikoresha. Ahetse agakapu gatoya gasa n'umukara gateretse ku bibero bye.

Mu nzu irimo ibiro bikorerwamo nikigo gitanga serivisi z'itumanaho cya Emutiyene, harimo abakozi babo babiri bambaye imipira y'umuhondo y'amaboko magufi, bari kwakira umukiriya wambaye ingofero y'ubwirinzi bwo ingendo zo kuri moto isa n'umukara.

Umugabo w'umwirabura, ndetse n'undi mugabo w'umuzungu wambaye amadarubindi y'umutuku. Bose bafite ingofero yagenewe kurinda abantu bicaye ku mapikipiki, izo ngofero ni ebyiri, zirasa icyatsi.

Umuntu utwaye ipikipiki, ifite ahantu batereka terefoni mu mahembe, terefoni iteretsemo, irimo iragenda imwereka amerekezo y'aho ari kugana yifashishije google.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi yanditseho vuba vuba mu gatuza, akaba yambaye n'ingofero y'ubwirinzi irinda abicaye ku ipikipiki, afashe ku gasanduku gahetswe n'ipikipiki, gasa n'icyatsi nako kanditseho vuba vuba.

Isoko rigezweho rya kimironko riratanga igabanyirizwa ku ifatabuguzi ry'ibiribwa aho ryakuwe ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda bigashyirwa ku bihumbi mirongo itanu bine magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda bagufasha no kubikugereza mu rugo ku buntu.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bipanze mu tubati, birimo amateleviziyo, amaradiyo ndetse n'ibindi bikoresho, hicayemo abagore babiri ndetse n'umugabo uri kuvugira kuri telefoni.

Umukozi ukorera ikigo cya vuba vuba ahetse igikapu mu mugongo gisa n'icyatsi, cyanditseho vuba vuba. Iki ni igikapu kimeze nk'isanduku, gitwarwamo ibicuruzwa biba bishyiriwe abakiriya mu ngo zabo.

Urubuga nkoranabuhanga rukoreshwa iyo umuntu afite murandasi ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga nka telefoni cyangwa mudasobwa, rucururizwaho ibicuruzwa birimo inkweto, ibikapu ndetse n'ibindi byinshi.

Inzu yo guturamo, ishashemo amakaro, irimo ibikoresho byo mu nzu, ifite inkuta zisa n'umweru ndetse hamanitsemo n'icupa ririmo ibinyabutabire bizimya inkongi y'umuriro, hari kwaka n'amatara y'umweru. Iyi nzu wayikodesha amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi, irimo ibyumba bibiri.

Inzu zifite ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'uduti duto tutarakura, hari n'imbuga iriho ikigega cyubatse hejuru ku kazu k'amatafari ahiye, ikigega kirasa n'umukara kibika amazi.

Inzu ifite uruganiriro ruteyemo intebe zikoreshejwe imisego ndetse ziranegamirwa, imbere yazo hari ameza asa n'umukara.

Inzu irimo igikoni kirimo utubati dufunze ndetse n'igikoresho cy'iziko rikoresha amashanyarazi, iruhande rwaho hari n'ahantu hari icyuma gishyushya ibyo kurya ndetse hejuru hateretseho icyuma gishyushya ibinyobwa.

Mu nzu harimo umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore w'umwirabura, wambaye ikanzu uri gutambuka. Mu nzu hari ibikoresho birimo; intebe ,ameza, ndetse n'itara.

Icyumba kirimo igitanda kiriho matera ishashe neza ndetse hariho n'imisego isa n'umweru, kifite inkuta zisize amarangi y'umweru, impande yacyo hari itara.

Ikibanza giharuye kitariho ibyatsi cyangwa ibiti giteguye neza kirimo kugurishwa, ikibanza cyubakwaho inyubako cyangwa se ibibuga ndetse n'amasare.

Umugabo uhagaze mu mbuga ishashemo amabuye, impande yayo hari inzu yo ishashemo amakaro asa n'umweru ku rubaraza, ifite n'inkuta zisize amarangi y'umweru.

Icyapa cy'ubururu cyanditsemo sawa siti, ikorera i Remera, kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, aha niho sawa siti ikorera, sawa siti icuruza ibicuruzwa birimo imigati, imitobe, inzoga zisembuye ndetse n'ibindi bikoresho biba mu isoko.

Isoko ririmo abantu b'abaguzi ndetse n'abacuruzi, ryubatse mu nzu hari kwaka amatara y'umweru, harimo ibicuruzwa birimo ibikapu ndetse n'imbuto zirimo inanasi.

Umugabo witwa Ruzindana Fabien; yahawe ubwishingizi bw'ubuzima, bungana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, by'amafaranga y'u Rwanda yagenewe n'ikigo cya RSSB ndetse n'Ejo heza.

Mu nzu irimo ibiro bikorerwamo n'umukozi wo kwa muganga hicayemo umugore ufashe ikarita ya mituweli mu ntoki imbere ye hari umugabo ukora kwa muganga wambaye itaburiya y'umweru.

Umuntu wicaye mu biro, ari gusuzuma urwandiko ruriho ibirango bya Ara esesibi ndetse n'ikarita yo kwivuza ya rama. Imbere ye hari mudasobwa iri kwaka, na yo irimo urupapuro ruriho ikirango cya Ara esesibi.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'urubaho mu nzu aho bategereza guhabwa serivisi, bafite impapuro mu ntoki bari kuzisoma inyuma yabo hari umugore w'umukecuru wahagaze ari gutambuka.

Umugore wicaye ku ntebe ibaje mu giti afashe amakarita abiri y'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli, aya makarita afasha uwivuza kwemererwa guhabwa serivisi z'ubuvuzi n'ikigo nderabuzima ku giciro gitoya.

Ibiro bikorerwamo n'abakozi bo kwa muganga, birimo icyuma cyifashishwa mu gupima utunyangingo duto, harimo n'abaganga babiri bambaye amataburiya bari kwandika ibisubizo ku mpapuro ndetse n'amakaye y'abarwayi.

Uko wakwizigama muri ejo heza ukoresheje telefoni, ejo heza ni gahunda y'ubwizigame, aho umuntu ashobora kwizigama amafaranga make make, akazamufasha mu kubaho neza mu gihe kizaza. Iyi gahunda yahujwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga rya telefoni, aho umuntu ashobora kwizigama akoresheje telefoni ngendanwa.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweri, iriho umwirondoro ndetse n'ifoto bya nyirayo. Iyi karita uyifite ntarembera mu nzu kandi igabanya ikiguzi cyo kwivuza.

Hanze, abantu bakoraniye mu kumva ndetse no gusobanurirwa gahunda ya Ejo heza. Iyi ni gahunda y'ubwizigame, aho umuntu ahera ku mafaranga make make, akizigama azamugoboka mu gihe cy'izabukuru.

Ishimwe riri gutangwa n'umugabo rihabwa Mukanziga Pascaline, umugore wambaye imyambaro y'ishati idoze mu gitenge ndetse yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, ishimwe ringana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu yagenewe n'ikigo cy'Arasesibi, EjoHeza ndetse n'ikindi kigo.

Umugore ufashe urupapuro ndetse n'ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweri mu ntoki, iyi karita irasa n'ubururu uyifite ntarembera mu nzu.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli iyi karita iriho ikirango cya araesiesibi mituweri ifasha uwishinganishije mu kwivuza ko ajya guhabwa serivisi z'ubuvuzi ku giciro gito.

Isoko rifite akabati gafite ibyumba birimo ibicuruzwa by'imboga, imbere y'akabati hari udupapuro tw'umuhondo twometseho, dusobanura tukagaragaza n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa.

Inzu icururizwamo ishashemo amakaro ifite n'utubati tuteretsemo ibicuruzwa bitandukanye birimo amata y'ifu birimo imitobe ndetse birimo n'amavuta ibicuruzwa imbere yabyo ku kabati hari agapapuro k'umweru kanditseho ibiciro ndetse n'umwirondoro.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa by'inzoga zisembuye biri mu macupa abonerana ndetse n'ataborana bipanze neza mu tubati ndetse mu imbere hari kwaka amatara y'umweru.

Iguriro ririmo utubati turimo ibicuruzwa bipanzemo neza, imbere yabyo hari udupapuro twanditseho ibiciro by'ibyo bicuruzwa, hashashemo amakaro hasi ndetse hari kwaka n'amatara y'umweru.

Umugore uri guhahira mu iguriro rigezweho rya gisirimu, asunitse akagorofani ko mu ihahiro karimo ibicuruzwa amaze guhaha birimo inanasi ndetse n'ibindi, ari kwerekeza aho bishyurira.

Inzu icururizwamo iba irimo imineke, inanasi, ibishyimbo, imigati ndetse n'ibindi bicuruzwa, bipanze mu dutanda ndetse n'utubati, mo imbere hari kwaka amatara y'umweru.